Inzu icururizwamo imiti itandukanye baha abagwayi maze bakaza kuyinywa, maze bakamererwa neza cyane bagasubira mu mirimo itandukanye ya buri munsi, bityo bakabasha kwiteza imbere.

Ibitaro byubatse neza, bifite isuku. Abarwayi bagana kugira ngo bajye kubavura, maze babone imiti yo kunywa, bakire maze basubire mu buzima bwabo, baje kwiteza imbere n'igihugu cyabo.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, bacururizamo imiti itandukanye baha abarwayi, maze bakamererwa neza bagasubira mu buzima busanzwe bakiteza imbere. Bagateza imbere n'igihugu cyabo, maze bakabaho neza cyane.

Gaperi bifashisha bari kuvura indwara zitandukanye z'abana, maze bakamererwa neza cyane bagakira, maze ababyeyi babo bakajya mu mirimo yo kwiteza imbere.